Abagabo n'abagore bose bacyeye ku isura kandi bari hagati y'imyaka mirongo n'itanu kugera kuri mirongo itanu bose bari gufata ifoto isa nk'urwibutso nyuma y'inama yabo yo kungurana ibitekerezo ku bintu bigiye bitandukanye.

Umugore n'umugabo, umugabo wambaye ikote ryiza ry'umukara n'umukobwa nawe wambaye ikote ritukura. Umugore usutse menshe ndetse n'umugabo afite agasatsi gakeya, imbere yabo ku meza hari ibinyobwa by'inyange ndetse na mikoro.

Muri iyi foto harimo haragaragara abagabo babiri umwe wambaye ishati y'umweru n'undi wambaye ikote, ku meza hariho ikinyobwa cy'amazi cy'uruganda Inyange indasitirizi, inyuma haragaragara nk'aho hari ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Muri iyi foto yiganjemo abagabo n'abagore bose bambaye imyenda y'ubwoko bw'igiciro izwi nka kositime; basa nk'abari gukurikira imbere nk'umuntu uri kubaha imbwirwaruhame, ndetse banakurikiye bitonze.

Abantu bicaye kumeza y'umukara ndetse benshi muri bo bambaye amakoti bisa nkaho ari inama ikomeye barimo, bahanze amaso abantu batatu bari kuri podiyumu, basa nk'aho bari kubaha ikiganiro runaka.

Muri iyi foto hicaye abantu biganjemo igitsina gabo igitsina gore bari kureba imbere bitonze, bareba umugabo uri imbere yabo uri kubaganiriza ku bintu bigiye bitandukanye ndetse akaba ari no kubereka ku kizwi nka porojekiteri.

Mur’iyi foto harimo haragaragaramo abagabo n'abagore bose basa neza, bambaye imyenda yiganjemo kositime ndetse harimo n'abashinzwe gufata amashusho n'amajwi bazwi nka ba camera man, umwe wambaye umupira w'umweru ndetse n'ishati ya orange.

Ino foto iragaragaramo abantu basa nkabayobozi bari mu nama ndi kubonamo abazungu batatu n'abirabura bane bari mu cyumba cy'ina bashobora kuba bari gufata ibyemezo runaka kutekerezo yo kuganiraho.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo abantu bateraniye mu nzu mberabyombi, aho bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, harimo hagaragaramo ibyapa byo kwamamaza ibyo bakora n'ameza n'intebe bicayeho baganira.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo abagabo bambaye amakoti ndetse n'abandi bambaye amashati, umwe afite murandasi, ndetse ku meza harimo hagaragaramo uducupa tw'inyange, inyuma harimo haragaragaraho ikigo cy'u Rwanda cyitwa rura.

Muri iyi foto harimo hagaragaramo abantu bari mu cyumba cy'inama, bari kwicara baganira ku byemezo bagiye gufata, kandi imbere yabo bafite ibinyobwa by'inyange, bari no kureba kuri televiziyo nini ya rutura, bakarebaho ibyo bagiye gufataho ibyemezo.

Reka tuganire, ese abafite inzozi z'umurimo ushaka gukora? Ubu ni ubutumwa bwatangwaga n'abashinzwe umurimo Kigali, Rwanda. Aho byari biri kubera mu Ntare Arena tariki cumi n'eshanu kugera cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri na gatatu.

Irembo iri kwamamaza serivisi yayo nshyashya y'uburyo wabona seritifika yawe y'uko uri ingaragu, ukoresheje akayenyeri icyenda zeru icyenda urwego muri porogaramu yabo ya byikorere.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo myinshi itandukanye muri iyo mirongo harimo iy'umuhondo irombereje idacagaguye, indi akaba ari imirongo y'umweru ishushanyije mu cyerekezo kimwe cyangwa se aho abanyamaguru bakwiye kwambukira, hakaba hateye ibyatsi kuruhande rw'umuhanda kandi mu muhanda rwagati hakaba harimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye nk'ibinyamitende moto ndetse n'imodoka.

Imodoka izwi ku izina rya toyota pikatu, ndetse n'amatiyo maremare arimo, ndetse n'umunara muremure, ndetse n'igipangu kiri kubakishwa amatafari ya mpunyu, kitaruzura neza.

Mudasobwa iriho serivise y'irembo bakaba bari kukwereka ishakiro ndetse na serivise zikunda gusabwa n'ababagana.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo umunara muremure wifashishwa mu gukwirakwiza itumanaho ibyo mu ndimi z'amahanga bizwi nka network, ndetse harimo haragaragara n'uruzitiro hejuru hariho ibintu bijombana byifashishwa mu kwirinda abajura ndetse n'abahungabanya umutekano.

Ikigaragara iyi ni ifoto yifashishwa mu kwamamaza ya Rwanda reveni otoriti yerekana ko ugomba kwishyura imisoro n'amahoro, bitarenze itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane.

Muri iyi foto yifashishwa mu kwamamaza, harimo haragaragaramo ikigo cya Rwanda Revenue Authority, kiri kubwira abaturarwanda icyo umusoro ku nyungu z'ubukode uvuze, bavuga ko umusoro kunyungu z'ubukode ari umusoro ucibwa, ku nyungu iyo umuntu akodesha ikintu ku giti cye, ndetse batanga na nimero wabahamagaraho ku bindi bisobanuro.

Muri iyi videwo harimo haragaragara inzu ndende y'icyatsi usize irangi ry'icyatsi kandi isa nkaho hariho umunara w'itumanaho iri kugaragaramo n'igipangu cyihazengurutse ndetse n'ubusitani.

Iyi foto yifashishije iri kugaragaramo umunara muremure uri nko muri metero mirongo itatu, utuma abaturiye uwo munara babona ikoranabuhanga ribafasha mu gutumikanaho bakoresheje umurongo wa telefoni igendanwa ibi bizwi nk'umunara.

Umugore wambaye ikirinda umutwe cy'umweru ndetse n'akagarurarumuri kanditseho REG, asa nk'aho ari gukoresha amamashini afasha mu gukwirakwiza amashanyarazi, kuko yambaye akantu k'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi n'ingufu mu Rwanda.

Muri iyi foto harimo hagaragaramo igiti kirekire cy'umuvumu cy'icyatsi, ipoto ndetse n'insinga, zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage.

Iyi ni inyubako ndende izwi nka etaje bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi, ndetse hasi harimo hagaragara ahantu hacururizwa arimantasiyo ndetse na gaze, ndetse hari n'itara ryo ku muhanda ririho insinga z'amashanyarazi.

Kuri iyi foto hari kugaragaramo inzu ziyisize ibara rijya gusa n'umweru ndetse n'igipangu k'icyatsi n'amabati atukura ndetse arimo hagaragaramo n'ipoto ikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage.

Muri iyi foto harimo hagaragaramo amatara yifashishwa mu kuzana urumuri, ndetse n'ibyapa byamamaza ikigo cy'itumanaho gikorera mu rwanda cya eyateri, hariho n'umuntu uzwi cyane mu Rwanda witwa KNC ndetse na farumasi na n'utu arimantasiyo inyuma yayo.

Inzu ndende y'igorofa, iriho ibintu bifasha gushyushya amazi hejuru ku mabati ndetse n'amapoto akwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu rugo, ibi ni ibintu byiganje mo ahangaha ndi kureba.

Kuri iyi foto haririmo aragaragaramo iki ahantu hameze nko mu ruganda harimo amamashini menshi agiye atandukanye, agiye yifashishwa mu gukora ibintu bigiye bitandukanye muri urwo ruganda. Nisa nk'aho ari amashini menshi abumbiye ahantu hamwe.

Inyubako ngari hejuru hakaba handitseho ijambo kingi fayiso hosipito ndetse hakaba hari n'abandi bagabo babiri bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'undi mubyeyi uhetse umwana ufite n'umutaka.

Imbangukiragutabara cyangwa ikizwi nka Ambulance ebyiri, imodoka yo mu bwoko bwa rava fo toyota ndetse n'inzu ya kadasitere y'umweru, ifite amabati y'ubururu n'irangi ry'ubururu n'umweru.

Ubusitani bwiza butoshye n'ibiti bigiye bitandukanye, inyubako hirya yubakisha amatafari ya mpunyu, igikoresho cyifashishwa mu kuzana umwuka mwiza mu nzu, bisa nkaho n'icyapa kinini cyanditseho Kacyiru rabu senta.

Muri iyifoto harimo haragaragaramo inzu izwi nko ku bwoko bwa kadasiteri, ndetse no hepfo igishanga gitoshye, gihingiriwe neza, ndetse hakaba arimo imbangukiragutabara yo ku bitaro bya Masaka.

Muri iyi foto harimo haragaragara umugabo ufite umusatsi utari mwinshi, ubwanwa bukeya, ndetse unirabura, wambaye impuzankano zifashishwa n'abacamanza mu gihe bari mu kazi kabo ka buri munsi, ndetse akaba yambaye n'ishati ya karokaro na karuvati ya kaki.

Abagabo babiri, umwe wambaye ikote, undi wambaye ishati ya made in Rwanda, bafite mudasobwa bari imbere, ndetse n'abandi bicaye hepfo yabo, basa nk'abari gukurikira ibyo bari kubagezaho, nko mu nama yungurana ibitekerezo.

Iyi ngiyi ni ifoto iri kugaragaza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame ari gutanga imbwirwaruhame mu nama runaka, aho inyuma ye hariho idarapo ry'u Rwanda rifite umutuku, umuhondo n'ubururu nk'amabara yarwo.

Muri iyi foto harimo hagaragaramo abagabo babiri, umwe wambaye imyenda impuzankano y'abagororwa benshi bazi nk'amaroza n'undi wambaye ibyo ababuranira mu mategeko abunganira mu mategeko bambara, bisa nkaho bari mu cyumba cy'iburanisha.

Muri iyi foto harimo hagaragara abantu benshi bari kugororwa kandi bambaye impuzankano zisa zose ry'ibara rya oranje, kandi abenshi biganjemo bari mu kigero k'imyaka mirongo ine n'itanu kugera kuri mirongo itanu.

Umugabo muremure w'imibiri yombi uri kureba hasi asoma igipapuro runaka, ukuboko kwe kw'iburyo kuzamuye, ukw'ibumoso gufasha kwidarapo akaba asa nk'uri turarahiriye Igihugu.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo abantu bambaye impuzankano z'umukara zifite utuntu tw'umweru ahagana ku ijosi ndetse bakaba bari gusinya impapuro runaka, bisa nk'aho ari abavoka bari gusinya imbere y'umucamanza mukuru.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo abantu bambaye impuzankano za z'iroza, aho izi mpuzankano zambarwa n'abantu bari gukororerwa mu magereza agiye atandukanye. Inyuma yaho hari abandi bantu benshi, basa n'abitabiriye igikorwa runaka.

Abagore, abagabo n'abagore biganje ndetse bari mu kigero cy'imyaka mirongo ine n'itanu kuzamura, basa nk'abatuje bacecetse bari gukurikira ibyo mugenzi wabo uhagaze ariko bagezaho.

Abagabo babiri umwe wambaye amadarubindi undi ntayo yambaye, bose bambaye impuzankano zifashishwa n'abacamanza mu gihugu cy'u Rwanda, basa nk'abari gutanga imbwirwaruhame kuri bagenzi babo.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo umugabo w'igikara, afite amaso y'umweru, wambaye umwenda utukura usa nk'aho ari impuzankano, ufite umusatsi usa nk'uwegeye inyuma nk'aho agiye kuzana ikizwi nk'uruhara.

Hano hari kugaragara abantu bagera kuri makumyabiri bambaye impuzankano zisa z'umutuku, n'ingofero ndetse ko harimo abagabo babiri batambaye ingofero, harimo n'umwe wambaye iby'umukara bisa nkaho bari bari mu birori byo gutanga impamyabushobozi zizwi nka diporome mu mashuri makuru n'ayisumbuye.

Iyi ni ifoto yafashwe ahazwi nka Nyabugogo harimo haragaragaramo, higanjemo ibinyabiziga by'amapine abiri bizwi nka moto n'ibindi by'amapine ane by'ibigo bya leta kimwe kizwi nka polisi y'u Rwanda n'ikindi gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ya polisi yifashishwa mu kuvana ibintu ibivana ku mwanya umwe bijyana ku wundi ndetse na moto zifashishwa mu gutwara abagenzi i Kigali.

Muri iyi foto harimo haragaragara icyuma gifite ibara ry'umutuku hose kifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro mugihe bibaye ngombwa kimenyerewe mu izina ry'ikinyarwanda rizwi nka kizimyamwoto.

Ibikoresho bibiri byifashishwa mu kuzimya umuriro kimwe cy'umweru Ikindi cy'umukara, ndetse n'itiyo yifashishwa mu gukwirakwiza amazi mu gihe habaye inkongi y'umuriro mu nyubako runaka.

Uruvunge rw'abantu bambaye impuzankano zisa za kate n'umweru, ndetse n'abandi bambaye iz'ubururu ba polisi nibo biganje mo aha hakaba hari na kizimyamota eshatu ndetse na gaze n'isafuriya.

Muri iyi videwo harimo hagaragaramo umugabo ushinzwe umutekano wo mu muhanda ibizwi nka tarafike polisi, harimo haragaragaramo kandi umuntu utwaye ingorofani iriho amakara n'undi munyozi utwaye ibiti.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo umugabo wambaye ingofero y'umweru, amadarubindi y'umukara ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byamutunze indangururamajwi, bishaka kumva icyo agiye kubagezaho.

Umugabo wambaye ishati y'umukara ndetse n'igishura cya kacye, bigaragaza imyambaro y'umuco nyarwanda ndetse n'abandi bantu bicaye inyuma, umwe yambaye ikote ritukura ndetse n'undi mugabo wambaye ishati y'ubururu, basa nk'aho bari kumva bateze amatwi ibyo ari kubabwira.

Muri iyi foto ifite umuzenguruko w'icyatsi, ibimenyetso by'umukara, ndetse n'umuhondo, iri kugaragaza ikigo cyitwa DALFA Umurinzi, ndetse n'ibiganza biriho izuba ry'umuhondo ricanye, hagati y'ibiganza bibiri.

Muri iyi foto harimo hagaragaramo umugore wambaye imyenda y'umweru ndetse n'amadarubindi y'amaso, akaba adefirije imisatsi y'umukara imanuka ndetse yambaye n'urunigi bisa nk'aho yafatiwe ku manywa.

Uruvunge rw'abantu rufite utudarapo dutoya turi mu mabara atukura umweru n'ubururu twanditseho FPR, ndetse n'umugabo uhagaze uzamuye igipfunsi usa nkaho ari kwiyamamaza, ndetse n'abandi bari kumugaragariza imvamutima nyinshi z'urukundo.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo abantu batanu bose bambaye imyenda iri porofeshono, inyuma yabo hakaba hari kugaragaramo amadarapo abiri rimwe ry' u Rwanda n'irindi rigaragaza ubutegetsi bw'igihugu cy' u Rwanda.

Muri iyi foto harimo haragaragara abantu batanu barimo mu gikorwa cyo kurahira imbere y'umukuru w'igihugu, aho baba bagiye gutangira inshingano zabo zigiye zitandukanye wenda minisitire cyangwa izindi nzego nkuru muri leta.

Muri iyi foto harimo haragaragara abantu bateraniye hamwe mu nama, aho bizwi nka Pariyamenti, aho harimo hateranira abadepite n'abandi bafite inshingano z'igihugu baganira ku byemezo bagiye gufata.

Imodoka izwi kwasiteri yifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu byabo mu mujyi wa Kigali, yanditseho sitari compani y'ubwikorezi itwara abantu n'ibintu Kigali ndetse n'ibikamyo bibiri biri kugaragara inyuma.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, urikwigendera, harimo haragaragara imodoka nini, izwi nka fuso, ikoreshwa mu bwikorezi. Harimo kandi haranagaragara bisi ebyiri zo mu bwoko bwa yutongo, zagenewe gutwara abantu n'ibintu byabo.

Muri iyi foto higanjemo ibikamyo bibiri bya rukururana, moto esheshatu eshatu zikaba zitwaye vabagenzi izindi eshatu zikaba zidatwaye abagenzi, hiryayaho hari ubusitani bwiganjemo ibiti ndetse iyifoto kaba yarafashe mu gicamunsi.

Moto nyinshi zo mu bwoko bwa aperasante zikoresha amashanyarazi, aho zitonze umurongo umwe ndetse n'abamotari baziho, basa nk'aho bategereje abagenzi ngo babatware.

Muri iyi foto yafashwe ahagana ku mugoroba hari haragaragaraq kwasiteri itwaye abantu ndetse n'izindi modoka nyinshi inyuma nazo zifashishwa mu gutwara abantu hano hazwi nka Nyabugogo muri gare.

Muri iyi foto harimo hagaragaramo ikamyo y'ubwikorezi, ishobora kuba yikoreye ibintu bikomoka kuri peteroli bizwi nka esanse ndetse harimo haragaragaramo n'umukarani wambaye imyenda impuzankano y'abakarani.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo uruzitiro rw'icyatsi n'ibyatsi by'icyatsi, amakamyo atatu ndetse n'akandi kanyabiziga gafite amapine atatu kifashishwa mu gutwara imizigo itaremereye cyane kazwi nka rifani.

Ikinyabiziga kirekire gitukura ndetse kiho n'ikimenyetso cy'intare gisa nk'aho iyi bisi itwara abagenzi mu nce zitandukanye ndetse n'igare ryifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu ndetse n'umunyamaguru uri kugenda.

Aha hari icyapa cyo kwamamaza ibya Lucky bet, company icuruza imikino y'amahirwe ndetse na kings bet mate imwe itwara abagenzi indi mote y'amapine atatu izwi ku izina rya rifan yifashishwa mu bwikorezi bw'ibikoresho bimwe na bimwe bisa nk'ibiremereye.

Moto nyinshi ziganje mu muhanda, imodoka ndende ya rukururana y'umweru n'umutuku, iri gukata mu muhanda, ndetse n'indi y'umweru yifashishwa mu bwikorezi bw'ibikomoka kuri peterori, ni byo byiganje aha.

Muri iyi foto isa nk'iyafashwe ku gicamunsi, harimo haragaragaramo ibiti by'ibyatsi bitoshye, ndetse na moto ebyiri ziri mu bwoko bw'abatwara abagenzi zihetse abagenzi babiri umwe w'umugabo ndetse n'undi w'umugore.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo ibiti birebire bitoshye, by'icyatsi kibisi ndetse harimo aragaragara na moto igiye kubisikana n'ikamyo, byose muri kaburimbo iyi kamyo nayo ikaba ifite ibara ry'icyatsi, ndetse inyuma afite akabara k'umuhondo.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo ifoto y'umuhanda urimo bisi yagenewe gutwara abantu mu buryo bwa rusange ya kampani yitwa ritiko inyuma yaho harimo abamotari n'ibindi binyabiziga byinshi inyuma.

Ikamyo yikoreye ibikoresho by'ubwubatsi bizwi nka ferabeto ndetse n'indi mizigo iriho shitingi n'umuntu wicaye hejuru ari kuri terefone, umumotari utwaye umukobwa kuri moto ndetse n'umugabo uri kugenda munzira y'abanyamaguru.

Iyi foto iragaragara nk'aho ari mu gicamunsi ku munsi mwiza, umunsi ukeye aho hari kugaragara akanyabiziga gafite amapine atatu kazwi nka nka Rifand gakoreshwa mu bwikorezi bw'ibintu kandi hari kugaragaramo igare ryikoreye gaze na moto ebyiri.

Iki cyapa gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ndetse n'ikimenyetso cy'umukara. Iki kimenyetso cyifashishwa mu muhanda kigaragaza ahantu harimo harakorwa imirimo igiye itandukanye. Iba iburira utwaye ikinyabiziga kugenda yitonze, kubera ko imbere haba harimo harakorwa imirimo igiye itandukanye.

Muri iki kimenyetso gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru nibimenyetso by'umukara biragaragaza yuko wigiye imbere gato bitarenze metero makumyabiri zitagera kuri metero mirongo itanu ushobora guhura imbere na rompuwe imbere yawe.

Muri iki kimenyetso gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo n'ibimenyetso by'ubururu, kimenyesha yuko uyu muhanda muri kondisiyo zigiye zitandukanye, yaba urubura cyangwa imvura ko uwo muhanda ushobora kunyerera, bititondewe.

Umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo ndetse n'ikimenyetso cy'ubururu. Iki ni icyapa gikunze kwifashishwa mu mihanda ya kaburimbo.

Umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umuhondo, ikimenyetso cy'umukara, icyapa cyifashishwa mu kugaragaza ko muri izo nshe harimo ahantu hari gukorwa imirimo yo gusana cyangwa iyo kubaka umuhanda.

Muzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru ikimenyetso cy'umukaragiki n'icyapa cyifashishwa mu muhanda kugira kigaragaze ko imbere hari agahanda karasukiramo ibinyabiziga bicikaba ugomba kuyumva witonze.

Umuzenguruko w'umuhondo, ikimenyetso cy'umukara, ubuso bw'umuhondo, icyapa kiba mu muhanda kigaragaza yuko mu nzira harimo agahanda gato karasukira ibumoso bw'umuhanda. Bityo bigusaba kuhanyura witonze.

Igikorwaremezo cy'umuhanda w'abanyamaguru ndetse w'ibinyabiziga, aho ibinyabiziga hari kugenderwaho n'ibinyabiziga mu bwoko bwa moto eshatu, ebyiri zitwawe n'abayobozi bazo ndetse bafite abagenzi batwaye, ndetse n'indi imwe idafite umugenzi utwaye ahubwo itwawe n'umuyobozi wayo gusa.

Inyubako ndende y'amagorofa ane iriho hirya icyapa ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda cyitwa eyateri aho kiri kuvuga ko cyazanye foji munshe zitandukanye za Kigali.

Kimironko kwa Mushimire, karitsiye nziza isa nk'ituje yiganjemo ibiti byinshi bizana amahumbezi ndetse n'ubusitani, ndetse n'umuhanda wa kaburimbo muri karitsiye.

Moto zakoreshwaga kera mu bijyanye n'ubwikorezi, niyi yikoreye gaze ifashishwa mu guteka y'umuhondo ndetse n'iy'umutuku ndetse n'umugabo uri kugenda ku ruhande rw'abanyamaguru ndetse n'inzu ndende bisa nk'aho ari kiliziya.

Inzu ndende y'igorofa, ndetse n'icyapa cyanditseho Igihozo hoteli lanshe. Ifashirizwaho abakiriya ba Eyateri, umunyonzi wambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'ubururu, ndetse n'imodoka ebyiri za Takisoni Yundayi.

Muri iyi foto harimo hagaragaramo abantu bari kwambuka muri zebura korosingi, imodoka ibategereje kujyama kwambuka moto iriho umugenzi n'uyitwaye ndetse n'imodoka iri mu bwoko bwa toyota mayibake.

Ifoto iri kugaragaramo umuhanda uzamuka, harimo hagaragara umumotari uhetse mugenzi, umugabo wambaye isha jazi ya pesije ndetse n'umuhanda uriho zebura korosingi aho abanyamaguru bambukira.

Muri i foto harimo haragaragaramo ikiraro ndetse na rompuwe ndetse n'umunyonzi uri ku igare rye harimo haragaragaramo kandi imodoka y'umukara icanye amatara maremare kugira ngo iboneshe aho ijya mu masaha y'umugoroba.

Muri iyi foto harimo haragaramo kaburimbo, ibinyabiziga bisazwe bitwara abantu ku giti cyabo, moto ndetse n'imodoka nini yagenewe gutwara abagenzi yo mu bwoko wa ruwayari ndetse n'abantu bari kugenda mu muhanda.

Muri iyi foto harimo hagaragaramo ifoto yafatiwe mu masaha y'igice y'umugoroba, aho hari harimo imodoka zigenda n'izindi ziza, harimo haragara abantu bari kugenda ku muhanda, w'abanyamaguru ndetse n'amatara yo ku muhanda atanga urumuri.

Mu nzu y'ubwiteganyirize mu kwivuza ya ara esi esibi hicayemo abantu benshi batandukanye, higanjemo abakozi b'iki kigo ndetse n'abaturage baje kwaka serivise.

Muri iyi foto yafatiwe muri kaburimbo, harimo hagaragaramo rumaruke ya rukururana ifite ibara ry'ubururu ndetse n'isaha yo ku muhanda yifashisha kubwira abahisi n'abagenzi aho igihe kigeze.